Igisabo ndabona yakigundiriye ariko wagira ngo yari ari no gucunda amata, uyu nguyu inyuma ndahabona inkongoro n'uduseke, hari ibintu byinshi.

Abahungu bafite amakondera, bagira n'amakondera bakaniye wagira ngo n'itorero ahubwo, aba n'imbyino za gakondo barimo kwibyinira, inyuma ndabona hari n'abakaraza bazo, n'abahanga cyane aba bahungu.

Ibi bintu by'ubugeni, ibi dukunze no kubigurisha abakerarugendo iyo baje mu Bisate turabibagurisha, ibi ngibi bigira n'amafaranga ku bantu babikora, ahubwo ibi birafatika.

Ni igikoni cy'abasirimu, ndi kubona kirimo n'amagaze, na kwiziniyeri, hasa neza kandi bigaragara ko ari ahantu hasobanutse.

Ubwato bwo mu kizungu, ndabona bufite amabendera y'u Rwanda. Hejuru hariho abantu bambaye n'amajire wagira ngo ni abasare, niba atari n'abakiriya baje kwirira ubuzima ku mazi.